Ababyeyi babiri bambaye udupfukamunwa ndetse bacigatiye uduhinja mu biganza byabo, ubona na ko batuzanye ku kigo nderabuzima kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bw'abana batoya bazabashe gukura bameze neza.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo ab'igitsina gore, ubona ko bateraniye mu nyubako ahari gutangirwa ibitekerezo by'ukuntu bakurikirana ubuzima bwabo by'umwihariko ku bijyanye no gutwita.

Itsinda rito ry'abana bakiri bato, biga mu mashuri abanza bafatanye ku rutugu ndetse bambaye imyambaro iriho ibirango by'ikigo mpuzamahanga, gishinzwe kwita ku bana.

Itsinda rigari ry'abana bakiri bato bateraniye hamwe buri wese yerekeza ikiganza ku ivomo rya kijyambere kugira ngo amazi abashe kumugwaho maze asukure ibiganza bye.

Ibikorwa remezo biri ahantu hitaruye ndetse bitandukanye, byashyiriweho mu kwimakaza ubuzima bwiza bw'abaturage ndetse no gusigasira amajyambere arambye.

Umuganga w'umwirabura wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'icyatsi, uhagaze mu cyumba imbere y'ibikoresho bya kijyambere bikoreshwa mu kwita ku barwayi mu buryo bugezweho.

Itsinda rigari, ryiganjemo abajyanama b'ubuzima b'abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano iranga akazi bakora ndetse bari mu busitani bugari cyane, aho barimo bacurira bishimiye ibyo bamaze kubwirwa.

Abaturage batatu bicaye, barimo abagore babiri ndetse n'umugabo, aho umugore umwe ari kuvura umugabo w'uwo mugore, amubaza uko ubuzima bw'umwana atwite uri mu nda buhagaze.

Urujya n'uruza rw'abaturage, rwiganjemo abagore ndetse n'abagabo, bafite abana b'impinja, baje kureba uko ibiro by'abana babo bihagaze.

Itsinda rigizwe n'abana b'abakobwa bambaye impuzankano zo ku masomo ndetse berekeje ibiganza byabo ku mugezi ugezweho, aho bari gukaraba intoki kugira ngo bakure imyanda mu biganza byabo birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Itsinda rigizwe n'udukoresho two mu bwoko bumwe dukoreshwa mu gukingira umuntu, dufite aho bashyira umuti ndetse n'ahashyigwa urushinge rwinjira mu mubiri w'umuntu. Aho utu dukoresho dukoreshwa mu gukingira umuntu kugira ngo hirindwe kuba yakwatakwa n'icyorezo runaka.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, bazanye ibitwarwamo amazi kugira ngo babashe gutwara amazi avuye mu mugezi wa kijyambere ngo ajyanwe gukoreshwa mu gusukura ibikoresho byo mu rugo.

Abavuzi batatu bari mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, bambaye impuzankano harimo iz'ubururu ndetse n'uwambaye iy'umweru bitegereza, ahantu bafite udukoresho twagenewe gutwarwamo imiti mu ntoki zabo, bafite ahantu barangamiye.

Itsinda rito ry'abana bagizwe n'abahungu ndetse n'abakobwa, bari guseka bishimye cyane, bambaye imyambaro yambarwa ku masomo ndetse bafite udukoresho twagenewe gutwarwamo amazi, aho baje kwanda amazi ngo bayajyane gusukura ibikoresho byo mu rugo.

Abaturage batatu barimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bari gufatanya mu guterura agapfunyika karimo ibiribwa, bihabwa abaturage badafite ibiribwa kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza ndetse habashe gutangwa ubuzima buringaniye kuri bose.

Urujya n'uruza rw'abantu bo mu ngeri zitandukanye, barimo abicaye ndetse n'abahagaze bategereje guhabwa ndetse no gukemurirwa ibyifuzo byabo, aho bahurira bagatanga ibitekerezo bagahura n'abayobozi babo bakababwira uko biyumva ndetse n'icyakorwa kurushaho kugira ngo imiyoborere myiza imere neza.

Abavuzi barimo abagabo n'abagore, imbere yabo hahagaze umugabo ufite uruhu rwera wambaye ikote ry'umukara, asa nk'uri kubaha amabwiriza akoreshwa mu kazi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, biganjemo abavuzi ndetse n'abaje gushaka ubufasha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubungabunga, hirindwe kuba indwara zakura mu buryo butateganyijwe.

Umugore uri kugendera hagati y'amazu, yikoreye igikoresho cyagenewe gutwarwamo amazi, aho avuye ku ivomero kuyakusanya ngo ajye kuyakoresha mu rugo mu gusukura ibikoresho bitandukanye.

Ikirango cyerekana ibirango bitandukanye bihagarariye imiryango mpuzamahanga, harimo iyita ku bana ndetse n'ubuzima ku isi hose ndetse n'indwara z'ibyorezo ndetse harimo n'iyagenewe kwita ku mpunzi n'indi.

Ururya n'uruza rw'abaturage biganjemo abagore ndetse n'abakobwa, bari imbere barambuye amaboko babyina imbyino za kinyarwanda. Inyuma yabo hari abandi baturage babakomera amashyi bakora injyana iryoheye amatwi, ndetse banazamura ubumwe hagati yabo.

Abantu batatu barimo umugore ufashe umwana yamuzanye ku nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, ndetse hari umuvuzi wabihuguriwe wambaye impuzankano y'umweru, ndetse n'uturindantoki ari gukingira umwana, ndetse anamusuzuma kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Itsinda ritari rigari rigizwe n'abagabo babiri ndetse n'abagore babiri babicaye hagati, umwe muri bo afite indangururamajwi ari gutanga ibiganiro.

Urujya n'uruza rw'abaturage biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ku biro by'akagari aho bahurira bagatanga ibitekerezo, bakavuga uko biyumva maze ubuyobozi nabwo bukabakemurira ibibazo.

Abantu batatu biganjemo abana ndetse barambuye ibiganza byabo ku muyoboro urimo amazi, umuyoboro uri kuvamo amazi agwa ku biganza byabo ndetse bayakaraba kugira ngo barusheho kunoza isuku iri ku biganza byabo.

Itsinda ry'inzobere ryiganjemo urubyiruko rukikijwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye barimo abakecuru ndetse n'abagore bakiri bato, aho baje bagana inyubako itangirwamo ubufasha kugira ngo bakingirwe hirindwe kuba hakwirakwira indwara z'ibyorezo.

Itsinda rigari rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo b'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bari hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho ndetse barimo bafatwa amashusho, agaragaza ko bitabiriye amahugurwa, yagenewe kuvuga ku bijyanye n'ubuzima n'uko bwabungwabungwa.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abakiri bato, bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyambaro y'icyatsi ndetse n'iy'umweru, bari mu nyubako iri gutangirwamo amabwiriza arebana no kwita ku buzima.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bari imbere mu mbuga y'inyubako itangirwamo ubuvuzi, ndetse bari gufatwa amashusho ubona ko bishimye cyane, ndetse bavuye guhabwa amabwiriza ndetse n'amahugurwa yerekeye ukuntu babungabunga ubuzima.

Itsinda ry'inzobere ry'abavuzi ryahuguriwe gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku baturage, riri ahabugenewe mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse barimo baha ubufasha umwana mutoya, bigaragara ko yavukanye ibibazo by'ubuzima kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranwe abashe kumererwa neza.

Itsinda ririmo abiganjemo urubyiruko harimo n'abambaye impuzankano z'umweru ndetse n'abambaye imyambaro isanzwe, harimo abicaye ndetse n'abahagaze bareba ufata amashusho abafata amashusho.

Umwana muto w'umuhungu wambaye umwambaro wo hejuru w'icyatsi ndetse n'uwo hasi w'umukara, urambuye ibiganza bye bigana ku mugezi wa kijyambere. Havamo amazi amwoza ibiganza.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hasi yacyo hari amagambo agaragaza ko gihagarariye umuryango mpuzamahanga ushinzwe gukurikirana ubuzima, aho uwo muryango ujya ku Isi hose ukareba uko ubuzima mu baturage buhagaze, haba harimo ikibazo uwo muryango ukabasha kuba wagikemura.

Abaturage batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe usutamye, basa nk'abari ahantu mu cyaro, bakikijwe n'abana bato babakinira umukino werekana ubuzima ndetse n'indwara harimo nka Ebora.

Abantu babiri barimo umugabo w'umwirabura ndetse n'umugore ufite uruhu rwera, bari gufata amashusho inyuma yabo hari ibirango bigaragaza ko bari bitabiriye inama iri kuvuga ku majyambere arambye, ndetse bafite n'uruhago rwanditseho amagambo ashishikariza abantu kuba basura igihugu cy'u Rwanda.

Umwana muto uri guseka yishimye cyane ndetse afite ibuguri mu kuboko kwe, ndetse ari ku ivomo rusange rya kijyambere, ari kuvoma amazi meza ngo ayanywe, kugira ngo abashe kwikiza icyaka.

Urujya n'uruza rwiganjemo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abana bateraniye hamwe bafite ibikoresho byagenewe gutwarwamo amazi, aho baganye ivumero rusange bafite ibikoresho bitwagwamo amazi kugira, bayajyane mu gusukura ibikoresho byabo byo mu rugo.

Umugore ufite uruhu rwera, ufite n'indangururamajwi mu kiganza cye cy'iburyo ndetse ukuboko kwiwe kw'ibumoso kwifashe mu gituza arimo abwira abantu bamukurikiye ibyo yagennye kubabwira mu nama.

Itsinda rigari ry'abaturage biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ahantu hamwe mu nyubako bakurikiranye ibiganiro biri gutanga inyigisho z'ukuntu babungabunga ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abaturage, himakazwa iterambere ry'ubuvuzi muri rusange.

Abakira abantu babiri, harimo uwambaye impuzankano y'umweru ndetse n'uwambaye impuzankano y'icyatsi, hirya ye hateretse mudasobwa, imbere yabo hari abaturage baje kubasaba ubufasha, bategereje guhabwa ubufasha.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abana bato b'abirabura berekeje ibiganza byabo ku muyoboro urimo amazi ava hejuru akagwa ku biganza byabo ndetse no mu gikoresho gikoreshwa mu kuvomeramo amazi.

Itsinda ry'abantu barimo abana bato bane ndetse bari ku mugezi rusange, aho bafite udukoresho twagenewe gutwarwamo amazi, hari n'umukobwa usa nk'ukuze uri gukoresha igikoresho gikoreshwa mu kuzamura amazi kuri uwo mugezi.

Abantu babiri barimo umugabo umwe ndetse n'umugore umwe bafite ibikoresho bikoreshwa mu kuvoma amazi aho baganye ivomo rusange rya kijyambere kugira bajyane amazi mu ngo zabo akoreshwe mu gusukura ibikoresho kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda.

Abana batandatu barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano yo ku ishuri ndetse bafite udukoresho twagenewe kunyorebwamo amazi ndetse bari kuvoma amazi ku kigega kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza, dore ko amazi ari ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagabo, abana ndetse n'abagore baje ku ivomo rusange, bazanye ibikoresho byagenewe gutwarwamo amazi kugira ngo ajyanwe gukoreshwa mu rugo rwabo.

Abana bato batandatu, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano ndetse bafite udukoresho twagenewe kuvomerwamo amazi ku migezi ya kijyambere.

Abayobozi biganjemo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe bicaye imbere y'abitabiriye inama, barimo babasangiza ibyateguwe kuvugirwa mu nama.

Itsinda ritari rinini ririmo abantu bo mu ngeri zitandukanye, biganjemo abagabo bane ndetse n'umugore umwe bicaye aho bagiye gutanga ubufasha ku baturage bakeneye ubuvuzi bw'ibanze kugira himakazwe ubuzima bwiza ku ruhando mpuzamahanga.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe mu nyubako yagenewe gutangirwamo ibiganiro, aho bicaye batuje bakurikiranye ibiganiro biri gutanga byongera ubumenyi bwabo ku bijyanye n'ukuntu babungabunga ubuzima ndetse n'icyakorwa kugira ngo ibibazo by'ubuzima bigabanuke ku baturage.

Inyigisho yerekana ubushakashatsi bwakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rimwe aho iyo nyigisho isesengura neza imibare yerekana ukuntu uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye buhagaze hagati y'ibitsina byombi ari byo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Agakoresho ka kinyarwanda kaba gafashwe n'ibiti bine bikoze kare ndetse hejuru hashashe imbingo, kakaba gakoreshwa mu kwanika ibikoresho abantu bariraho.

Umugabo uri mu nyubako yagenewe kuberamo inama ndetse n'ibiganiro, aho ari imbere y'imbaga nyamwinshi, arimo ababwira ibyateguwe kuvugira mu nama ndetse arimo aseka yishimiye abo abwira.

Umugabo uri guseka ndetse ari kumwe n'umwana muto na we uri guseka wikoreye igikoresho cyagenewe gutwarwamo ibisukika kiriho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wagenewe gufasha abababaye.

Abaturage barimo abagore, abagabo ndetse n'abana bicaye hanze y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi ndetse hari n'abavuzi bari kubaganiriza babitaho bababaza ubuzima bwabo ndetse n'uko bababara.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore basuye abana batoya ndetse bari kubaha amata kugira ngo bakumire kuba bagwingira ndetse no kugira ngo ubuzima bwabo bubungabungwe, ndetse no kugira ubudahangarwa bw'umubiri wabo burusheho kumera neza.

Igikorwa remezo cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse cyagenewe kubika amazi kugira ngo azakoreshwe igihe azaba yabuze. Igikorwa kikaba gifite intumbero yo kugira ngo kizamure iterambere rirambye ndetse kinakemure ibibazo bigiye bitandukanye mu baturage.

Inyubako irimo abantu bo mu ngeri zitandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bari guhabwa amabwiriza ku buzima ndetse no kubungabunga.

Abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore, bahagaze imbere y'ahari gufatirwa amashusho ndetse inyuma yabo hari ibishushanyo bigaragaza abana ndetse n'ibirango by'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku burenganzira bw'abana bato.

Umwana muto w'umukobwa uri ku ishuri ahantu munsi y'igiti ndetse ari gukaraba yifashishije igikoresho cya kandagira ukarabe, akoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo isuku yimakazwe.

Itsinda rigari ririmo abajyanama b'ubuzima ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi butandukanye, bahagaze hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, ahari gufatirwa amafoto y'abitabiriye ibiganiro bahuje impande zombi.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore, bicaye ndetse bafite n'abana babo, aho baza bagahura n'abavuzi bagasuzuma ubuzima bw'abana babo, kugira harusheho kwimakaza imikurire myiza y'abana babo.

Itsinda rigari ryiganjemo abavuzi b'abagabo ndetse n'ababagore bambaye impuzankano z'ubururu, imbere yabo hahagaze umusaza ufite uruhu rwera ndetse ari kubaha amahugurwa n'amabwiriza kugira ngo barusheho kunoza akazi kabo.

Igikoresho cy'ubuvuzi gifite amabara y'ubururu gikoreshwa mu buvuzi bwa kijyambere mu kubika ndetse no gufasha umurwayi igihe ari mu gihe kitamworoheye cyo kubura umwuka.

Ikarita igaragaza intumbero y'isi ndetse irimo umumama n'umwana we baseka bishimye cyane, bari mu murima urimo ibidukikije byiganjemo ibimera ndetse bari kubisarura bashyira mu gakoresho kabugenewe.

Itsinda rigari ryiganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko; bicaye mu buryo bukoze uruziga bari kungurana ibitekerezo byerekeye ubuzima; harimo nk'icyakorwa kugira ngo ibibazo biri mu buzima bukemuke ndetse n'icyakorwa kugira ngo ubuzima bwiza bwimakazwe mu baturage.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano za kaki, bari ku kigo cy'amashuri ndetse bakikije umugezi ugezweho ukoze mu buryo bwa kijyambere.

Umugabo uri mu zabukuru ndetse ari guseka cyane yicaye ku gikoresho cyagenewe gutwarwamo amazi, ari ku ivomo rusange rya kijyambere ndetse inyuma ye akikijwe n'ibidukikije ubona ko yishimiye igikorwa remezo cyamwegerejwe.

Abantu bane barimo umugore umwe ndetse n'abana batatu, umwe muri abo bana afashe igikoresho cyagenewe kuzamura amazi ku mugezi aho ari kukimanura azamura amazi akazamuka agwa mu gikoresho cyagenewe kubika amazi.

Umumama uri mu rugo rwe ndetse arimo aseka cyane, yerekeje ibiganza bye ku gikoresho cyitwa kandagira ukarabe, arimo gukaraba intoki kugira ngo asukure intoki ze hirindwe indwara ziterwa n'umwanda.

Ikirango gikoze uruziga rutuzuye rufite ibara ry'umuhondo ndetse muri icyo kirango hari umurongo uvunaguye ufite ibara ry'ubururu, hirya y'icyo kirango hari amagambo agaragaza umuryango ushinzwe ubuzima ukorera muri leta y'Amerika

Abana babiri bari mu kibaya ndetse ahari umugezi wa kijyambere uri kuvamo amazi meza cyane, bari kuyakaraba kugira ngo barusheho kwikuraho imyanda iri ku ntoki zabo kugira ngo ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana muto uri guseka yishimye cyane ndetse afite ibikoresho byagenewe gutwarwamo amazi ndetse ari ku ivomo rusange rya kijyambere, yaje kwanda amazi kugira ngo ayajyane mu gusukura ibikoresho byo mu rugo hirindwa indwara ziterwa n'umwanda.

Abagore babiri harimo umwe ufite umwana muto w'uruhinja ndetse umugore umwe ari kwereka undi agakoresho gakoreshwa mu gupima uko umubiri uhagaze, gakoreshwa mu buryo bwa kijyambere.

Umugabo w'umwirabura uhagaze mu muhanda inyuma y'ikinyabiziga ndetse afite agasero mu kuboko kwe kw'ibumoso ndetse yambaye imyenda ishaje cyane ubona ko asa nkufite uburwayi bwo mu mutwe.

Imfashanyigisho iri mu mabara atandukanye ndetse muri iyo nyigisho hari abagore babiri bakosanyijeho inkokora, hari amagambo yanditse muri iyo nyigisho ashishikariza abantu kuba bakorera hamwe kugira ngo babashe guteza imbere ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu batanu ndetse bicaye hanze bakikijwe n'ibidukikije birimo urutoki, ibiti ndetse n'ibindi, barimo baganira ku cyabateza imbere ndetse n'uko ubuzima bwabo babusigasira bo ubwabo ku giti cyabo.

Umugore ukiri muto wicaye ku ntebe y'urubaho ndetse uri mu nzu ishaje cyane, idirishya ryayo rifunguye, imbere ye hari agasambi ndetse kandi yicaye yigunze.

Ikinyamakuru kiriho umugabo w'umusaza ndetse kiriho ingingo zitandukanye z'ukuntu twakorera hamwe, mu kugira ngo turusheho kugira ejo hazaza heza tubikoreye mu bumwe.

Umugabo w'umwirabura wicaye ahantu hanze ndetse ubona ko yigunze ahantu hari imyanda myinshi ndetse ubona ko uwo mugabo adafite aho kuba akeneye ubufasha bwo kuba yashakirwa icumbi.

Abana bato b'abirabura benshi cyane, bakoze umurongo munini, barambuye ibiganza barira cyane, amarira amanuka ku matama yabo, basa nk'abasaba ubufasha runaka.

Umugore muto w'umwirabura ndetse uhagaze ahagenewe gucururizwa ibyo kurya bitandukanye bikoreshwa mu ngo z'abantu igihe bari gutegura amafunguro ndetse ubona ko ategereje abakiriya yishimye cyane ngo abashe kubaha ibyo bakeneye na bo bamuhe amafaranga.

Ikarita irimo umugabo munini w'umwirabura wigunze ndetse iruhande rwe hari amagambo ashishikariza abantu kwitabira ubuvuzi bwo mu mutwe kugira ngo harusheho kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abana bari ku kigo cy'amashuri bambaye impuzankano zo hejuru z'ubururu, ndetse bamanitse ibiganza byabo baseka cyane basa nk'abafite umuntu bari kureba imbere yabo.

Abantu batandukanye barimo abagore, abagabo, urubyiruko ndetse n'abakobwa, biganjemo abambaye imyambaro y'umukara, bicaye hanze basa nk'abari gufatirwa amashusho.

Ikirango cyerekana amatsinda atandukanye y'abantu biganjemo abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru, kivuga ku buzima bwo mu mutwe n'icyakorwa kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu mutwe burusheho kumera neza.

Umugore w'umwirabura ucigatiye umwana ndetse bari guseka, ubona ko bahagaze hanze y'inyubako itangirwamo ndetse inatanga ubumenyi ku bijyanye no gusigasira ubuzima bw'umwana ukiri muto, kugira ngo azabashe gukurana imbaraga ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu hamwe ndetse ubona ko bari kwiga ku ngingo zitandukanye kugira ngo ibirimo bitanozwa irusheho kunozwa kugira ngo ibyifuzo by'abaturage birusheho gukemurwa ndetse n'iterambere ry'ubuzima bumere neza.

Umugabo w'umwirabura ufite imisatsi myinshi cyane uhagaze ahantu mu muhanda, wambaye imyambaro yacitse ugaragara nk'ufite ubumuga bwo mu mutwe.

Umugore w'umwirabura wicaye imbere y'urugo rwe ndetse usa nk'ubayeho mu buzima buciriritse, yicaranye n'abana be babiri, umwe amucigatiye mu biganza bye, ndetse imbere yabo hateretse intara, iri kugosorerwaho ibiribwa bitandukanye kugira ngo bategure amafunguro barye.

Inyubako igaragaza itsinda rito ry'abantu, barimo abagore bane ndetse umwe muri bo abahagaze imbere, ari kubabwira ibijyanye n'ubuzima ndetse n'uko bwakwitabwaho cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, dore ko ari bwo buhagarariye ubundi buzima bw'umubiri wose.

Ikirango gikoze uruziga, hagati yacyo hashushanyijemo umutwe urimo ubwonko ndetse gihagarariye ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda cyangwa se abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyandiko yiganje mu ibara ry'ubururu, ndetse muri yo hariho umugabo ushushanyijeho ufite indangururamajwi, hirya ye hari amagambo akangurira abantu kuba bafatanya mu gusigasira ubuzima bwo mu mutwe mu bantu bagiye batandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu buryo bukoze uruziga barimo baganira ku cyakorwa kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe burusheho kumera neza.

Umugore w'umwirabura wicaye hanze n'abana be babiri umwe amucigatiye mu biganza bye ndetse afite intara ari gugosora ibiribwa, kugira ngo byifashishwe mu kubiteka.

Umugore w'umwirabura, wambaye imyenda yo mu kazi ndetse afashe isuka n'intoki ze zisa nabi, yikoreye agatebo karimo ibijumba ndetse n'imigozi, yikoreje ingata.

Abantu barimo abagabo babiri, abagore batatu ndetse n'umwana umwe, bicaye hanze y'inyubako yubatswe mu buryo butagezweho ahantu mu mbuga, baseka, baganira.

Urubyiruko rw'abirabura rurimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari ahantu mu nyubako ya kijyambere, bahagaze imbere y'ufata amashusho na we abafata amashusho.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa bwinshi cyane ndetse n'imisatsi myinshi iboshye, wambaye imyenda ishaje. Uri gusakuza ndetse asa n'ufite ubumuga bwo mu mutwe.

Abagore batatu bafite utubando imbere, harimo n'umugore ufite umwana uri konka, bahagaze ahantu hitaruye, bakikijwe n'ibimera bitandukanye by'ubuhinzi ahantu ku musozi.

Ikirango kirimo umugabo ndetse cyiganje mu ibara ry'ubururu, kirimo amagambo asobanura ubuzima bwo mu mutwe ndetse kinashishikariza abantu kwitabira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuko ari ingenzi mu kugira umuntu agire ubuzima bwiza.

Itsinda rinini ryiganjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu n'abagore n'abagabo, bicaye mu nyubako iri gutangirwamo amabwiriza ndetse n'inyigisho zerekeye uko ubuzima bwo mu mutwe busigasirwa.

Umugore w'umwirabura, uhagaze imbere y'abantu, umutwe we wubitse ku biganza bye, bifashe agatambaro gakoreshwa mu guhanagura amarira, afite agahinda kenshi.

Umwambaro wo hejuru ufite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, inyuma handitse amagambo ariyo: r,p, i, n, c, h, o, o, m.

Inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bw'umwihariko bwo mu mutwe, aho abantu bumva ubuzima bwabo bwo mu mutwe butameze neza bajya ndetse bagahura n'abavuzi babyigiye ndetse babihuguriwe bagahabwa inama ndetse n'uko babungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Umugabo uhagaze hanze mu busitani bugizwe n'ibyatsi, indabo ndetse n'imikindo uri imbere y'ikigonderabuzima cyagenewe gutangirwamo ubufasha ku bantu bose bafite ibibazo by'ubuzima, aho abantu bari kumva batameze neza mu mubiri baza bagahura n'inzobere bakabasha gufashwa bikiri mu maguru mashya.

Umugabo w'umwirabura wigunze cyane, yicaye ahantu hanze ahinnye amaguru ye ndetse amaboko ye afashe ku mavi ye ubona ko ari ahantu hagenewe kumenwa imyanda ndetse bigaragara ko adafite aho kuba akeneye ubufasha bwo kuba yahabwa icumbi.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo byukiramo mu mugitondo ufite ibara ry'umweru, afite akagozi mu biganza bye kanyura hagati mu kanwa ndetse kanyura mu menyo kugira ngo ubuzima bwe bwo mu kanwa burusheho kumera neza kanakuramo imyanda.

Abantu bo mu byiciro bitandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano zirimo iz'icyatsi zanditseho tubiteho ndetse n'abambaye impuzankano z'umweru.

Umuganga uri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bw'amenyo ndetse afite n'agakoresho kagenewe gukoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, agakoresha ku kibumbano kigaragaza ukuntu akanwa gateye.

Icyumba kitari kigari mu buso cyubatswe mu buryo bwijiza urumuri ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gutanga ubuvuzi bw'amenyo, aho umuntu ufite uburwayi bwo mu kanwa wese ashobora kujyanwa agasuzumwa hifashishijwe ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugabo w'umwirabura ndetse wasamye ufite akagozi kabugenewe gafashwe n'ibiganza bye byombi, kanyura hagati y'amenyo ari gukuramo imyanda iri mu menyo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki ndetse bigaragara ko ari iby'umuvuzi w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa, byerekeye mu kanwa k'umwana wasamye, birimo kumusuzuma ngo birebe uko ubuzima bwe bwo mu kanwa bumeze kugira ngo abashe gukurikiranwa.

Inzobere mu by'ubuvuzi bwerekeye amenyo ndetse n'ubuzima bwo mu kanwa bari mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubwo buvuzi ndetse bakora ubushakashatsi ku kibumbano cyakozwe neza kigaragaza ibice byo mu kanwa birimo amenyo, inyinya ndetse bakora ubushakashatsi kugira ngo biyungure ubumenyi.

Umusore muto w'umwirabura, uryamye ndetse uri kureba umuntu uri kumuha ubufasha bw'ubuvuzi. Urutoki rwe ruri kumutungira ahantu ari kuribwa kugira ngo umuvuzi abashe kumenya ubufasha akeneye, amuhe ubuvuzi bw'ibanze.

Umugabo w'umwirabura ufite akagozi gafashwe n'ibiganza bye byombi, kanyuze mu menyo ndetse yasamye ari gukura imyanda iri mu menyo ye, kugira ngo abungabunge ubuzima bwe bwo mu kanwa.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi muke, wasamye arimo aseka ndetse ibiganza bye byombi bifashe akagozi kanyura hagati mu kanwa ndetse n'amenyo ye.

Icyumba kitari kigari mu buso kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga mu buryo buciriritse ndetse bikoreshwa mu buvuzi bugezweho aho umuntu ufite uburwayi butandukanye akoresha ibyo bikoresho kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze ndetse n'ubuvuzi akeneye kugira ngo yitabweho.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa wasamye, afite agashumi kanyura mu menyo ye, gakuramo imyanda itandukanye ndetse kanayaringaniza ku murongo.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro yo hejuru yose isa ifite ibara ry'umweru ndetse bari kwireba mu ndorerwamo bafite utugozi twabugenewe dukoreshwa mu gukura imyanda mu menyo ndetse barimo baseka bishimiye kuba bari gukorwa icyo gikorwa kugira ngo basigasire ubuzima bwabo bwo mu kanwa.

Umwana muto w'umukobwa wicaye mu cyumba ndetse afite agakoresho gakoreshwa mu gusukura igice cyo mu kanwa cy'amenyo ndetse akoresha n'umuti w'amenyo kugira ngo imyanda iri mu kanwa isohokemo.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko, ari kwireba mu ndorerwamo ndetse afite agakoresho kagenewe gukura imyanda mu menyo, ndetse kariho n'umuti ari gukura imyanda mu menyo.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa bwinshi ndetse wasamye, afite agakoresho kagenewe gukura imyanda yahagamye mu menyo kugira ngo ubuzima bwo mu kanwa burusheho gusigasigwa dore ko ari n'ingenzi.

Umugore w'umwirabura uhumirije ufite imisatsi y'umukara, ufite akagozi gafashwe n'ibiganza bye bibiri, kanyuze mu gice cyo mu kanwa cyitwa amenyo agakurura ashyiramo imbaraga nyinshi cyane.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wambarwa iyo umuntu abyutse ndetse ubona ko afite igikoresho cyagenewe gukura imyanda mu kanwa, kugira ngo ubuzima bwo mu kanwa burusheho gusigasirwa.

Umugabo w'umwirabura uri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, ari guseka yishimye ategereje umuvuzi wize ibyo gukora ubuvuzi bw' amenyo ngo amuhe ubufasha.

Umugore w'umwirabura ndetse uri kumwe n'umwana muto w'umukobwa, bari aho bacumbitse, ndetse umugore ari kwigisha umwana uko bakoresha igikoresho cyagenewe gukura imyanda mu kanwa, ndetse n'uko bakoresha umuti w'amenyo, kugira ngo ubuzima bwo mu kanwa busigasirwe.

Igikoresho gifashwe n'umuvuzi gifashe iryinyo aho rimaze gukurwa mu kanwa igihe ryari riri kujegajega cyangwa rirwaye kugira ngo habashe kumera irindi rizima rifite ubuziranenge mu gusigasira ubuzima bwo mu kanwa.

Umwana muto w'umukobwa wasamye ndetse arimo akorerwa ubuvuzi n'umuvuzi wabyigiye, wambaye udupfukantoki ndetse afite n'agakoresho yashyize mu kanwa k'umwana, arimo areba uko ubuzima bwe bwo mu kanwa bumeze.

Abantu babiri, barimo umugabo ndetse n'umugore w'umuganga, wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse ari kwita ku musaza uri mu zabukuru, asuzuma uko umubiri we uhagaze kugira ngo abashe kuba yakorerwa ubuvuzi bw'ibanze.

Itsinda rigari ry'abantu ryiganjemo abakiri bato ndetse n'abasheshakanguwe harimo abagore ndetse n'abagabo bari ahantu mu cyanya kinini gikikijwe n'ibihingwa, ndetse bafite ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi harimo nk'isuka ndetse n'ibindi, barimo baseka cyane ubona ko bishimiye igikorwa bavuyemo.

Umukecuru uri mu za bukuru ufite imvi ndetse wambaye urunigi mu ijosi, wambaye n'imyambaro ya kinyarwanda, afite indangururamajwi ndetse ari kubwira abantu uko yiyumva kugira ngo nawe abashe kwiyumva nk'abandi.

Abantu babiri barimo umugore ukuze wicaye ndetse hari umugore ukiri muto umuhagaze inyuma, washyize amaboko mu gatuza k'uwo mugore ukuze ndetse ari kumwitaho kugira ngo asigasire ubuzima bwe bwo mu mutwe.

Itsinda rigari ryiganjemo umubare munini w'abagore ndetse abenshi muri bo bambaye imyambaro yo hejuru ifite ibara ry'umweru ndetse n'iyo hasi ifite ibara ry'umukara, batondetse ku buryo bw'umurongo ndetse ubona ko bishimiye igikorwa barimo.

Umusaza ukuze ufite imvi wambaye ubusa, wicaye mu gikoresho kirimo amazi, ndetse hari ibiganza biri kumuzamuriraho amazi bimusukura.

Umugore ufite uruhu rwera ndetse wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu butijimye uri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ndetse no kwita ku bageze mu za bukuru kugira ngo na bo biyumve ko ari kimwe n'abandi bantu ndetse n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe burusheho gukurikiranwa.

Umusaza uri mu zabukuru ndetse ufite imvi, wicaye mu gakoresho kagenewe gutwarwamo abafite intege nkeya ndetse n'abafite ubumuga bw'ingingo ndetse ari kwitabwaho n'umuvuzi wabihuguriwe kugira ngo akurikirane ubuzima bwe bwo mu mutwe.

Umusaza usheshe akanguhe uri mu za bukuru ufite imisatsi irimo imvi wifashe ku gahanga ndetse arimo asoma inyandiko kugirango ubuzima bwe bw'umutwe burushe kumera neza.

Umuryango utari mugari ugizwe n'abasaza, abagabo bakiri bato, abagore bakiri bato ndetse n'abana, bahagaze mu busitani bukikije urugo rwabo ndetse barimo baseka cyane kugira ngo banashimishe abageze mu zabukuru mu gusigasira ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore, barimo baseka cyane ndetse birukanka mu muhanda mu gikorwa cyo mu myitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yabo irusheho kumererwa neza.

Ubusitani bugizwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi, muri bwo hari umugore wicaye ku gasambi uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda rigizwe n'abakiri bato, barimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye hamwe bari gufasha abasheshe akanguhe kugira ngo na bo bakurikirane ubuzima bwabo, kandi bumve ko na bo ari kimwe n'abandi, mu kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Umwana muto w'umukobwa ufashe igikoresho cyagenewe gukina umukino wo kunaga mu gipimo, yishimye cyane ndetse inyuma ye hari ise barimo bakina uwo mukino mu kibuga cyagenewe gukinirwamo uwo mukino.

Umusaza uri mu za bukuru wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'ubururu ndetse n'uwo hasi uciye amaguru ufite ibara ry'umukara, uri mu nzu yagenewe gutangirwamo imyitozo ngororamubiri ndetse hari umugore wambaye impuzankano ifite ibara ry'umukara ari kumwereka uburyo bwiza bwo gukoramo imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwicaraho ndetse n'ibikoresho byo guterekaho ibintu bitandukanye, kirimo umusaza ndetse n'umukecuru bari mu zabukuru, aho bari gusoma kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu mutwe burusheho kumera neza.

Abaturage batatu barimo umusaza umwe uri mu zabukuru ndetse ufite imvi ndetse n'umugore wiwe bafatanye ku rutugu bishimye cyane, bari kubwirana amagambo y'urukundo ndetse n'icyo bakora kurushaho kugira umubano wabo ube mwiza.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa burimo imvi nyinshi ndetse ari mu nyubako ari kwitabwaho n'umugore, aho ari kumuha imiti kugira ngo ayinywe ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Abagore babiri bari kugenda baganira ndetse bishimye cyane, hirya yabo bakikijwe n'ibidukikije birimo ibiti ndetse n'indabo ndetse n'ibyatsi biri kubaha umwuka mwiza dore ko bavuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugore ukuze ufite imisatsi irimo imvi ndetse w'umwirabura wicaye ku musambi ahantu mu nzu, arimo agorora ibice bigize umubiri yifashishije kwikora ku birenge ndetse no kurambura amaboko.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zose bateraniye hamwe bicaye munsi y'icyubakwa, imbere yabo hari umusaza ndetse n'umukecuru bari mu zabukuru, bambaye imyambaro ya kinyarwanda.

Abagore babiri b'abirabura bari guseka bari mu cyumba gifite amabara y'umweru, gikoreshwa mu gutegura ibiribwa bitandukanye, inyuma yabo hari ibikoresho bikoreshwa mu kubika udukoresho.

Abaturage bicaye mu buryo bukoze uruziga, harimo abagore b'abirabura ndetse n'umwe ufite uruhu rwera, bicaye ahantu mu busitani baseka cyane bishimye, inyuma yabo bakikijwe n'ibidukikije.

Abagore babiri barimo uwambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa, mu ijosi rye hari agakoresho kagenewe kureba uko umutima utera ndetse yambaye n'uturindantoki, afashe umugore ukuze cyane areba uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusaza uri mu za bukuru ufite imisatsi irimo imvi, wicaye mu gatebe kagenewe kugendamo abantu bafite intege nke ndetse n'ubumuga bw'ingingo, aho ari kwitabwaho n'umuvuzi wabihuguriwe kugira ngo asigasire ubuzima bwo mu mutwe ndetse atume uwo musaza yumva yishimye.

Ikirango gishishikariza urubyiruko kuba rwakurikirana ubuzima bwabo ndetse no kuba bakwisuzumisha agakoko gatera sida kugira ngo hirindwe ikwirakwira ryako ndetse ibyo bikorerwa muri Afurika.

Inyigisho iteguranywe ubumenyi butandukanye uvuga ku ndwara y'agakoko gatera sida, aho hariho uko yakwirindwa ndetse n'uburyo yandura ndetse n'icyakorwa igihe umuntu yaba yayanduye kugira ngo ubuzima bwe burusheho gukurikiranwa hanongerwa abasirikare umubiri we.

Itsinda rigari ry'abaganga, bari mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, aho abaturage bo mu ngeri zose bagana iyo nyubako bagahura n'abo baganga, bakabaha ubufasha burimo nko kubaha ingingo, kugira ngo hirindwe kuba indwara zakwirakwira mu buryo bworoshye.

Ishusho irimo umwana muto wasamye ufite uruhu rwera, mu ishusho ye handitsemo amagambo ari yo imiti dushobora kwizera n'icyo twakora ngo dusigasire ubuziranenge bw'iyo miti. Hasi y'ishusho ye harimo ibirango by'abafatanyabikorwa, hirya ye mu ibara ry'ubururu handitsemo ubusobanuro burambuye bw'ingingo y'inyandiko.

Imfashanyigisho igaragaza amashusho y'inzobere zitandukanye zirimo abafite uruhu rwera ndetse n'abirabura, aho bashishikariza buri muntu kuba yafasha mugenzi we kugira ngo buri wese agerweho n'ubuvuzi bw'ibanze kandi bugezweho, hakaba harimo imvugo ivuga ati ntihagire n'umwe dusiga inyuma.

Icyigisho kiriho inyigisho zitandukanye zagenewe abaturage, kugira ngo zibafashe kugira ubumenyi bw'uko bafata ndetse bakanarinda ubuzima bwabo, kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza ku ruhando mpuzamahanga.

Abantu batatu biganjemo abagore, umwe muri bo yicaye aciye bugufi ari gukorerwa ubuvuzi bwo guterwa urukingo kugira ngo arindwe kuba yakwatakwa n'indwara z'ibyorezo mu kubungabunga ubuzima bwe.

Inyandiko ifite ibara ry'umweru ndetse yanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, agaragaza urukingo rukoreshwa mu gukingira icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda ndetse hariho n'ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana ku Isi hose.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye mu nyubako nini mu buso bitabiriye umunsi mpuzamahanga w'imfashanyo igikorwa cyateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse bari kureba ibirori birimo imbyino gakondo ndetse n'indirimbo gakondo.

Abantu bateraniye hamwe, barimo umugabo uri gutera undi umugabo urukingo ku kuboko kw'ibumoso; aho abantu bo mu ngeri zitandukanye bahurira bakaba bakingirwa; kugira ngo hirindwe kuba indwara z'ibyorezo zakwirakwira.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo umubare munini w'abagore bicaye ndetse bambaye imyambaro yo hejuru ifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari undi mugore uri kubabwira uko bakwita ku buzima bw'abaturage ndetse n'ubwabo.

Itangazo ryerekana umugore uri gukingira umwana, ndetse rinakangurira abantu kuba bakwitabiraryo kingira, ribabwira ko rizarangira ahagana kuwa cumi na kane mata umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo uhagaze imbere mu nyubako yagenewe gutangirwamo ibiganiro, ndetse afite indangururamajwi ari gufatwa n'amashusho, harimo gutanga ibiganiro ndetse n'ubumenyi ku bantu bitabiriye ibiganiro byerekeye ku kuntu babungabunga ubuzima ndetse n'icyakorwa kugira ibibazo birebana n'ubuzima bikemuke.

Abavuzi babiri bambaye impuzankano z'ubururu, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, bari mu cyumba ahagenewe kubagirwa abarwayi bafite indwara zikomeye.

Inyigisho igaragaza abantu mu byiciro bitandukanye barimo abari mu gisata cy'ubuvuzi, mu gisata cy'ubuhinzi ndetse n'abari mu gisata k'isukura, aho iyo nyigisho igamije kwerekana uko buri muntu mu gisata arimo yagakwiye gukora inshingano ze neza, agatanga ibyifuzo by'abaturage ku buryo bunoze.

Ikirango cyiganje mu ibara ry'ubururu ndetse muri iryo bara hari ikirango kiri mu ibara ry'umweru, kigaragaza igihugu cy'u Rwanda ndetse hasi hari amagambo yanditse agaragaza ishyirahamwe rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu cyumba kigari kiberamo inama ndetse bicaye bareba imbere bakurikiranye, ibyateguwe gutangirwa mu nama.

Ikirango kiri mu ibara ry'icyatsi kiriho umubare gatatu ndetse kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, asobanuye ati ubuzima bwiza ndetse no kubaho neza, hepfo hari umurongo uvunaguye ndetse n'agatima.

Urujya n'uruza rw'abaturage bicaye mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, bategereje abavuzi babyize banabihuguriwe kugira ngo bahabwe ubufasha banapimwe imibiri yabo bamenye uko ihagaze.

Imfashanyigisho ishushanyijemo akarongo kanyuranyemo kari mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, hirya y'ako karango hari amagambo ashishikariza abantu kuba bakorana kugira ngo hirindwe agakoko gatera sida hibandwa cyane ku bana batoya.

Inyigisho iri kugaragaza abagabo babiri, umwe wicaye ndetse n'undi amuhagaze inyuma. Hejuru yabo hari amagambo agaragaza ko bakora ibijyanye n'ubuvuzi ndetse banashishikariza abantu bafite ubuzima butameze neza kuba bagana ubufasha bakabasha gufashwa.

Inyandiko yiganjemo ibara ry'umweru ndetse muri iryo bara hari amagambo yanditsemo agaragaza icyakorwa kugira ngo iterambere ry'ubuvuzi rigerweho, mu rwego rwo gusigasira ubuzima, dore ko iyo ubuzima butitabweho bushobora gutwara ubuzima bw'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari mu muhanda, biganjemo urubyiruko ndetse bagenda bigisha uko urubyiruko rwakwirinda agakoko gatera SIDA, runabashishikariza kwipimisha hakiri kare ngo hamenywe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyigisho iri kugaragaza umukecuru wishimye cyane ndetse wakorewe ubuvuzi bw'amaso, ndetse iyo nyigisho aho igamije gushishikariza abantu kwitabira ibikorwa byo kubungabunga ubuzima bwabo, by'umwihariko ubw'amaso.

Icyigisho kirimo umugabo cyiganjemo amabara y'ubururu ndetse gishishikariza abaturage kumenya ibijyanye n'ubuzima bwabo, kinabashishikariza kudakoresha nabi imiti bahabwa kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Abayobozi bo mu ngeri zitandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye imbere y'abitabiriye inama, barimo babazwa ndetse banatanga ibyateguwe kuvugirwa mu nama iri kuvuga ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ubwirinzi.

Ikarita irimo umwana muto w'uruhinja, ndetse n'amagambo yerekana ko ivuga ku buzima. Aho ishishikariza abantu kwiyandikisha bakazitabira inama izabivuga ku buzima muri afurika.

Abavuzi batatu bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asobanuye mu kinyarwanda ati: "igenamigambi ryo kumenya ndetse no kwirinda indwara ya covid cumi n'icyenda".

Abantu bane barimo umugabo umwe ndetse n'abagore batatu b'ababikira bambaye imyambaro y'umweru, baganira n'uw'umugabo ibijyanye n'ubuzima ndetse n'uko bwasigasirwa kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza banabeho bishimye.

Ikirango kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu butijimye, handitsemo amagambo ashishikariza urubyiruko ndetse n'abantu bose muri rusange kwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kubera ko burya na bwo ari ingenzi kubumenya kugira ngo harushweho kubungabunga ubuzima bw'urubyiruko.

Abayobozi babiri b'abagabo bicaye imbere y'abitabiriye inama, yabereye i Kigali ku wa makumyabiri, ukwakira, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, yavugaga ukuntu bahagarika.

Itsinda ry'inzobere mu buvuzi ryiganjemo abagabo ndetse n'abagore, bari mu cyumba cyagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse bari kwita ku murwayi bamubaga kugira ngo ubuzima bwe bw'umubiri burusheho kumera neza.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo abagore, abagabo, urubyiruko ndetse n'abana bakiri batoya aho bari mu nyubako yariri gutangirwamo ibiganiro byavugaga ku buzima, bari imbere yahari gufatirwa amashusho ndetse bafite n'utuntu mu ntoki tugaragaza ko bitabiriye ibyo biganiro.

Ikirango kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, kiriho amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi agaragaza uko ubuzima buhagaze ku rwego mpuzamahanga ndetse hanakorwa ubushakashatsi kuko mu mujyi ubuzima bukurikiranwa mu baturage mu buryo bungana.

Umugabo w'umwirabura, wambaye umwambaro wo hejuru usa umweru ndetse n'uwo hasi usa umukara, wicaye hasi ku mabuye ari ku giti kinini cy'inganzamarumbo giteye mu busitani bukikije inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi.

Icyumba cyubatswe ku buryo bugezweho gifite amabara yiganjemo ay'umweru kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nk'ibitanda ndetse n'ibikoreshwa mu gusuzuma umurwayi uko ameze aho umurwayi ajyanwa akaryama ndetse agakurikiranwa ubuzima bwe bukabasha kwitabwaho

Inzira ijya ndetse yubatswe mu buryo bugezweho, iriho ubusitani bukikije inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi ifite ibara ry'umweru. Hariho amagambo agaragaza ko iyo nyubako ihagarariye ikigo nderabuzima kiri mu karere ka Nyarugenge, aho abaturage bajya bagahabwa ubuvuzi.

Igikoresho cya kijyambere, gikoranye ikoranabuhanga rihambaye cyane, kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, aho gikoreshwa mu kureba mo imbere mu mubiri w'umuntu, hakamenywa uko uhagaze ndetse bakaba banamubaga, igihe basanze ikibazo afite gikomeye.

Inyubako igeretse gatatu, yiganjemo amabara y'umweru ndetse hafi yayo hari abantu bo mu ngeri zitandukanye, bari kuyigana bayerekezaho, bajya kwaka ubufasha.

Abavuzi batatu bambaye impuzankano z'ubururu, bari mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse hari n'ibikoresho bari gukoresha mu kurushaho kureba ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze, kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Uruhave rufite uburebure bunini ndetse rurimo imyanya yo kwicaraho yabugenewe yicarwaho iyo umuntu ategereje guhabwa ubufasha, ndetse hari igishushanyo kigaragaza urugingogo rw'ijisho rigaragaza ko ubu ruhave rushobora kuba rujya mu cyumba cyagenewe gutangirwamo ubuvuzi bw'amaso.

Imbuga nini irimo ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye ndetse harimo n'umugabo uri kuyobora abari guhagarika ibyo binyabiziga. Inyuma y'iyo mbuga hari inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi. Aho abantu bo mu ngeri zitandukanye bagana iyo nyubako, bagafashwa bagahabwa ubuvuzi bugezweho.

Umugore w'umwirabura wabyaye ndetse acigatiye mu biganza bye umwana yabyaye. Ubona ko hari umuganga wabihuguriwe ndetse uri kwita ku buzima bw'umwana, kugira ngo umwana azakurane ubudahangarwa ndetse ubuzima bwe busigasirwewe, hirindwe kuba umwana yagira urupfu rutateganyijwe.

Igikoresho cyagenewe mu kuranga ibintu runaka kiri ku muhanda ujya ku nyubako iri inyuma yacyo, kigaragaza ubufasha iyo nyubako ishobora kuba itanga.

Inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere ndetse irimo n'ibikoresho bigezweho, yicawemo n'umugabo wishimye cyane wahawe ubuvuzi, akaba afite icyizere cy'ejo hazaza ndetse aseka, yishimye cyane.

Inyubako ya kijyambere yubatswe mu buryo bugezweho, iriho amabara yiganjemo ay'umweru ndetse herekanwa na buri kintu gikorerwa kuri buri muryango kugira ngo abahagana batazajya bayoba cyangwa bakaba batakara.

Inyubako ya kijyambere, yubatswe n'ibikoresho bigezweho, ndetse n'isakaro rigiye gusa umutuku, hari abaturage bari mu muhanda usa nk'ujya kuri iyo nyubako bayigana, ufite ndetse n'aho guparika ibinyabiziga bitandukanye.

Inyubako iri mu buryo bugezweho ndetse yagenewe gucururizwamo ibijyanye n'imiti ya kijyambere, aho abantu batandukanye bumva batameze neza mu mubiri wabo bagana iyo nyubako bagahura n'abavuzi babyigiye ndetse babihuguriwe, bakabaha imiti bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga.

Umuvuzi w'umwirabura w'umugore wambaye impuzankano y'umweru ndetse ibiganza bye bifashe ku mwana muto w'umukobwa bireba ukuntu ubuzima bwe buhagaze.

Itsinda ritari rigari ry'abavuzi ririmo umugore ufite uruhu rwera ndetse n'undi ufite uruhu rwirabura, uri kuganiriza umurwayi amubaza uko yiyumva kugira ngo asuzume uko ubuzima bwe buhagaze ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse harimo amako atandukanye y'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, iri ku gakoresho kagenewe kuyibikamo ipanze ku buryo bufite isuku.

Abaturage batatu barimo umugore wambaye umwambaro w'umweru, ndetse n'umwana wambaye imyambaro y'umukara, ari gusunika umugabo ukuze mukanyayabiziga kagenewe gutwarwamo abafite ubumuga bw'ingingo, bajya ahantu mu nyubako hari kubera ikirori.

Inyubako ya kijyambere iriho udukoresho tumurika amabara y'umuhondo ndetse imbere yayo hari igikoresho gikoreshwa mu kwerekana ubufasha iyo nyubako itanga.

Icyumba kigari mu buso, gifite amabara yiganjemo ay'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byakozwe n'inzobere kugira ngo bibashe guteza imbere ubuvuzi bugezweho.

Inyubako ya kijyambere ifite isakaro ry'ubururu ndetse yubakishije ruriba, aho yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse no kubyariramo abagore batwite, hitabwa ku buzima bw'abana babo batwite.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse irimo udutanda twabugenewe twifashishwa mu kubika umuti mu buryo budateje akavuyo, aho umuturage wese urwaye mu buryo budakomeye agana iyo nyubako agahabwa imiti bitabaye ngombwa ko ajya ku kigo nderabuzima.

Inyubako yabugenewe yagenewe gutangirwamo ubuvuzi yubatse mu buryo bugezweho ndetse irimo amabara yiganjemo ay'umweru, yerekanwa n'imiryango ikoreshwa kugira ngo hagerwe mu byumba bitandukanye muri iyo nyubako.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse yubatswe mu buryo bwinjiza urumuri, ifite ubuso bugari ndetse irimo ibikoresho bitandukanye harimo n'intebe zo kwicaraho ndetse n'ubusitani uyiha ubwiza aho abarwayi baza bakicara mu ntebe bagategereza kuba bahabwa ubufasha.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abantu, harimo abicaye, ndetse n'uhagaze, ari ahakirirwa abantu, ari kwandikisha imyirondoro, hari abagore babiri bari kumwakira.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri, yubakishije Ruriba, ifitemo amabara y'umweru, ikorerwamo ubuvuzi bwa kijyambere, hanze yayo hari ahagenewe gushyira ibinyabiziga.

Ubusitani bwiza bugizwe n'ibyatsi, indabo, ibiti ndetse bukikijwe n'inyubako zagenewe gukorerwamo ibintu ndetse hari n'ibinyabiziga mu mbuga z'izo nyubako.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kabiri ndetse ifite aho guhagarika ibinyabiziga hanini mu buso, aho abantu bo mu ngeri zitandukanye bagana iyo nyubako bagahura n'abahanga mu by'ubuvuzi kugira ngo bapimwe bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba kigari mu buso kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere ndetse kirimo ibikoresho byiganje byo mu bwoko bumwe, byagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho.

Umugore urwaye uryamye ku gikoresho cyo mu nzu y'ubuvuzi ndetse hari umuvuzi wambaye impuzankano y'umweru n'uturindantoki, uri kumukorera ubuvuzi bw'ibanze.

Inzobere mu by'ubuvuzi yambaye agakoresho kagenewe kumva uko umutima w'umuntu uri gutera ndetse n'impuzankano y'umweru ari ahantu mu baturage baciye bugufi ndetse ari kubabaza uko biyumva kugira ngo abashe kubaha ubufasha.

Umuvuzi wambaye impuzankano y'icyatsi, uri kugenda mu nyubako igezweho, ikorerwamo ubuvuzi, ndetse irimo n'ibikoresho bya kijyambere bikoreshwa mu kwita no gutanga ubuvuzi bwa kijyambere.

Inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere ndetse irimo igikoresho cyabugenewe gitanga ubuvuzi bwa kijyambere, imbere yacyo hari abavuzi babyigiye ndetse babihuguriwe bambaye impuzankano y'umweru, barimo basuzuma icyo gikoresho bareba uko kiri kubereka ibyo cyabonye.

Ibinyabiziga biparitse mu mbuga iri imbere yagenewe, gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere ndetse imbere y'umuryango w'iyo nyubako hari abaturage bo mu ngeri zitandukanye, baje gushaka ubufasha kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umuvuzi muto w'umukobwa, wambaye impuzankano y'umweru, ari mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse asuzuma ubuzima bw'umugore utwite n'umwana uri mu nda, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho gusigasirwa.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kiri mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho. Cyashyiriweho gushyirwamo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, harimo nk'igitanda gikoreshwa igihe umurwayi ananiwe, kugira ngo abashe gukurikiranwa mu buryo busesuye.

Inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, yicyawemo n'abaturage bategereje guhabwa ubuvuzi, yubakishije iriba, ifite amabara arimo umuhondo ndetse n'umweru ndetse ikikijwe n'ubusitani.

Icyumba kigari kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse gishushanyijemo amashusho ashushanya amaso y'umuntu, kirimo ibikoresho byabigenewe bishobora kuba bikoreshwa mu buvuzi bw'amaso kugira ngo ubuzima bw'amaso busigasirwe.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse yubatse mu buryo bwinjiza urumuri, irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, aho umuntu ushaka nko kugabanya ibiro ndetse n'ubundi burwayi busaba gukora imyitozo ngororamubiri, agana iyo nyubako agahura n'ababihuguriwe, bakabasha kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho kigezweho, cyakozwe n'inzobere, gikoranwa ikoranabuhanga kugira ngo kijye cyifashishwa mu kureba utuntu duto cyane tutaboneshwa ijisho rya muntu mu kurushaho guteza imbere ubuvuzi.

icyumba kigari mu buso kirimo amabara yiganjemo ay'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho aho umurwayi ufite ikibazo gikomeye ajyanwa agakurikiranwa ndetse agahabwa ubuvuzi bugezweho.

Inyubako yagenewe gukorerwamo ubuvuzi, irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi butandukanye harimo nk'ubuvuzi bw'ingingo zo hanze y'umubiri ndetse n'ingingo zo mo imbere mu mubiri.

Icyumba kigari mu buso, kirimo ibikoresho byinshi mu buryo bucucitse ndetse zakorewe kuba umuntu yabikoresha mu myitozo ngororamubiri, akabikoresha ari nko kubiterura kugira ngo agire imikaya ikomeye ndetse umubiri we ugire imyubakire ikomeye.

Abantu batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umwana umwe, bari mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho ndetse umwe muri abo bagabo wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ari gusuzuma ubuzima bw'umwana muto ngo amenye uko buhagaze ndetse amukorere ubuvuzi bw'ibanze.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abakuze bateraniye hamwe bicaye ku mabuye ndetse ahagana mu busitani bukikije inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere, aho baza bagahura n'abavuzi babyigiye ndetse b'inzobere, bagakurikirana ubuzima bwabo kugira hirindwe kuba baremba.

Umuryango mugari winjira mu ivuriro ryitwa Kabgayi, aho urujya n'uruza rw'abaturage bahuye n'ibibazo by'imibiri by'uburwayi bahurira n'abavuzi, bakabaha ubuvuzi bw'ibanze ndetse bagasuzuma uko imibiri yabo imeze, bakabaha n'imiti.

Ikigo nderabuzima giherereye mu Karere ka Remera cyubatse mu buryo butavuguruye, gikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse kigaragara ko kitubatse ku buryo bugezweho ku ruhando mpuzamahanga.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho gifite amatabaza yaka urumuri rw'umweru ndetse nacyo gifite amabara yiganjemo ay'umweru, kirimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyakozwe n'inzobere kugira ngo kijye gitanga ubuvuzi, harimo nko kureba mu imbere mu mubiri w'umuntu, kugira ngo habashe kuvumburwa indwara yaba arwaye maze ahabwe ubutabazi.

Icyumba kitari kigari mu buso kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, kirimo imiti yagenewe kuvura mu buryo bwa kijyambere ndetse itondetse mu buryo butarimo akavuyo ku gatanda.

Inyubako igaragara mu mabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'umuhondo n'andi, yubatswe mu buryo bugezweho yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere ndetse ikikijwe n'ubusitani bwiza bugizwe n'imikindo ndetse n'ibyatsi.

Inyubako yegerejwe abaturage yubatswe hafi y'abaturage, aho umuturage ugize ikibazo cy'ubuzima ahagana, agahabwa ubufasha ndetse ubuzima bwe bugakurikiranwa kugira ngo hirindwe impfu zitateganyijwe.

Icyumba kigari, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'intebe zifasha mu kugira kibe cyiza. Hejuru y'iyo ntebe hari amagambo agaragaza ko icyo cyumba gishobora kuba gitanga ubufasha, ku bijyanye n'ubuvuzi bw'imyitozo ngororamubiri.

Inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere irimo abantu bo mu ngeri zitandukanye, barimo abagabo babiri ndetse bari gukorerwa ubuvuzi n'abavuzi babyigiye kandi babihuguriwe kugira ngo barusheho gukurikirana ubuzima bwabo.

Icyumba kigari kiri mu mabara yiganjemo ay'umweru ndetse kirimo ibikoresho bya kijyambere byagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho, aho abantu batandukanye bafite uburwayi bukomeye bajya bagakoreshwa kuri ibyo bikoresho, bagakurikirana ubuzima bwabo uko buhagaze.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abambaye imyambaro yo hejuru isa n'umuhondo ndetse bari mu za bukuru, bicaye mo imbere mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse aho baza bagasuzumwa bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze nk'abantu bashisha.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho gifite amabara yiganjemo ay'umweru, ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo nk'intebe isanzwe umuntu yicaraho, ndetse n'indi ntebe ikozwe mu buryo bugezweho aho umuntu ayicaramo agakurikiranwa agasuzumwa kugira ngo bamenye uko umubiri we uhagaze.

Icyumba kigari cyane gifite amabara yiganjemo ay'umweru, kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukurikirana ubuzima bw'umuntu mu buryo bugezweho.

Icyumba kigari, cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse gifite ubushobozi bwo gutanga ubuvuzi bwa kijyambere, harimo nko gusuzuma uko umubiri uhagaze ndetse kandi byorohereza umurwayi ndetse n'uri kumuvura kuba hamenywa uko umubiri we uhagaze kugira ngo akorerwe ubuvuzi.

Abagore batatu bari mu zabukuru, bicaye hanze bakikijwe n'ibidukikije birimo ibiti biri gutanga umwuka mwiza ndetse umwe muri abo bagore ari kubitaho, bigaragara ko ari kubapima ngo amenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Igikorwa remezo cya kijyambere ndetse cyubakishijwe ibikoresho bigezweho, imbere yacyo hari ikiranga amerekezo cyerekana ubufasha butangirwa muri iyo nyubako, hari amagambo yanditse ku kiranga amerekezo agira ati 'kwa Nyirinkwaya", aho abantu bakeneye ubuvuzi butandukanye baza bagahabwa ubufasha kugira ngo hirindwe kuba baremba.

Urujya n'uruza rw'abaturage biganjemo abakiri bato ndetse n'abasheshe akanguhe bicaye mu nyubako yagenewe gutangirwamo amabwiriza ndetse n'amasomo y'ukuntu barinda ubuzima bakanabubungabunga.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda bagenda bagana ku nyubako igezweho ya kijyambere ikorerwamo ubuvuzi, aho abantu batandukanye bajya kwivuza ndetse bakanareberwa uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere ndetse iri kugaragaza ibyumba bitandukanye bikorerwamo ubufasha butandukanye, aho abantu bafite ibibazo by'ubuvuzi, bagana iyo nyubako bagahura n'inzobere mu by'ubuzima, bakabasha kuba bakurikirana ubuzima bwabo.

Icyumba kigari kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi butandukanye ndetse kirimo ibikoresho bikoreshwa n'abarwayi ndetse n'abavuzi, aho abarwayi baryama bagahabwa ubuvuzi ndetse harimo n'ibikoresho bikoreshwa mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi urwariye muri icyo cyumba.

Icyumba kigari cyubatswe mu buryo bugezweho, ndetse kirimo umusaza ugeze mu za bukuru urwariyemo, harimo n'umuvuzi wabihuguriwe uri kumuha ubufasha bw'ibanze, kugira ngo hirindewe kuba yashiramo umwuka.

Itsinda rito ry'abantu, ryiganjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bw'abagore by'umwihariko abatwite kugira ngo hasuzumwe ubuzima bwabo, hanasigasirwe ubuzima bw'abana batwite.

Umuvuzi wambaye impuzankano y'umweru irinda ibice bye byose by'umubiri kuba byagira aho bihurira n'imyanda, ukuboko kwe gufashe agakoresho gakoreshwa mu gusukura imyanda iba iri ahantu ari.

Inyubako ya kijyambere yubatswe mu buryo bugezweho igizwe n'amabara y'amoko atandukanye, yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukemura ibyifuzo by'abagannye iyo nyubako.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, ubona ko bari bagannye iyo nyubako ngo bahure n'abaganga babyigiye ndetse b'inzobere ngo babashe gukurikirana ubuzima bwabo uko bumeze kugira ngo hirindwe kuba baremba.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza, irimo amabara y'ubwoko butandukanye ndetse irimo ibikoresho byo kwicaraho ndetse n'ibyo kurambikaho ibikoresho igihe abantu bari kuganira mu buryo bwiza.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kane ndetse itangirwamo ubuvuzi bwa kijyambere, ubona ko hari urujya n'uruza ruri gusohoka ndetse n'ururi mu imbere rwaganye iyo nyubako aho baje gushaka ubuvuzi bw'ibanze.

Itsinda ryahuguriwe gutanga ubufasha bwerekeye ubuvuzi ndetse bari hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, bishimye cyane ndetse bari gufatwa amashusho yerekana ko batanga ubuvuzi buhamye.

Inyubako igeretse inshuro eshatu ndetse yubakishije ruriba bigaragara ko yubatswe mu buryo butagezweho ndetse isa nk'iyahoze itangirwamo ubuvuzi ikaba ikeneye kuvugururwa kugira ngo iterambere ry'ubuvuzi bwayo burusheho kumera neza.

Inyubako y'ubuvuzi ifite amabara y'umweru irimo igikoresho na cyo gisa umweru, cyagenewe gukorerwa ubuvuzi bugezweho, ndetse gikoranye ikoranabuhanga rihambaye aho abantu bajya bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iri kugaragaza ko ari ivuriro ry Akarere ka Nyarugenge ndetse aho abaturage bajya bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo umubare w'abapfa ndetse n'abarembera mu rugo urusheho kugabanyuka.

Icyumba gifite ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ubuvuzi bya kijyambere, hari umugabo uryamye muri icyo cyumba ufite umubiri munini uri gukorerwa ubuvuzi, bukorwa n'ibyo bikoresho bya kijyambere.

Icyumba kigari mu buso ndetse cyubatswe mu buryo bugezweho kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bugezweho aho abarwayi babigana bagakurikiranwa, bagapimwa imibiri yabo bakamenya uko ihagaze maze bakabasha gukurikiranwa kugira ngo batarushaho kuremba.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu bafite uburwayi bukomeye bagana icyo cyumba bakabasha gukorerwa ubuvuzi kugira ngo hirindwe kuba bashiramo umwuka.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite isakaro rifite ibara ry'umutuku ndetse ifite amabara y'iganjemo ay'umweru ndetse n'ikigina ifite imbuga nini ariko igaragara nk'aho nta bantu benshi bayiganye baje gusaba ubufasha kugira ngo bafashwe.

Umugabo w'umwirabura munini wambaye imyambaro y'umukara, ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri uri no mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Uruhago ruri mu ibara ry'umutuku ndetse rukoze mu buryo bugezweho, rufite imyanya itandukanye rwagenewe gutwarwamo imiti itandukanye ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gihe umuntu yagize nk'igikomere kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umugabo wambaye umwambaro wo hejuru utukura ndetse w'umwirabura bigaragara ko yari ari mu mikino ijyanye n'imyitozo ngororamubiri yo gusiganwa, ufashwe n'undi musaza amuruhura igihe arangije gukora imyitozo ngororamubiri kuko arushye.

Igikoresho gikoze uruziga, gifite ibara ry'ubururu, gikoreshwa mu guhambira ahantu umuntu wagize igikomere ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo hakorwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore ukiri muto ufite uruhu rwera, wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko ndetse ari ahantu hitaruye ku mazi ndetse ikiganza cye cy'iburyo gifashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi kari ku munwa arimo gusoma amazi.

Umugore w'inzobere mu by'ubuvuzi, uri kwambara agapfukamunwa ndetse mu ijosi ye hari igikoresho cy'ubuvuzi gikoreshwa mu kumva uko umutima w'umuntu uri gutera ndetse ari kureba muri mudasobwa, hari ibintu ari gukoraho ubushakashatsi kugira ngo anoze imikorere ye.

Inyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse irimo umugabo ufite imikaya minini w'umwirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri, hirya ye hari umugore ufite uruhu rwera uri kumuha amabwiriza y'ukuntu yakora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwiza.

Umugore w'umwirabura, wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko ndetse n'uwo hasi uciye amaboko, wicaye mu busitani ndetse yamanuye umugongo wiwe awerekeza ku maguru awugorora ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we urusheho kumererwa neza.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kirimo n'ibikoresho bigezweho gifite ibara ryiganjemo iry'umweru ndetse kirimo agakoresho kagenewe kubikamo ibikoresho ndetse n'ikindi gikoresho cyakozwe n'inzobere kugira ngo kijye gikoreshwa mu kureba mu imbere mu mubiri w'umuntu ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru w'amaboko ufite ibara ry'umweru ndetse n'wo hasi uciye amaguru ufite ibara ry'umukara ndetse yarambuye ukuguru kwe kw'ibumoso akwerekeza ku rutugu rw'umugabo ufite uruhu rwera ndetse uwo ufite uruhu rwera arimo amugorora kugira ngo ingingo ze zirusheho kumera neza.

Igikoresho gikozwe mu buryo bugezweho cyakozwe n'inzobere kugira kijye cyifashishwa mu buvuzi bugezweho aho gikoreshwa mu gupima uko umugayi ahagaze kikerekana uko umubiri we umeze kugira ngo hamenyekane ubufasha akeneye.

Inzobere mu by'ubuvuzi iri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse imbere yayo hari uburiri buryamyeho umuntu ufite uburwayi bw'ingingo ndetse iyo nzobere mu by'ubuvuzi iri gukora ubuvuzi cyane cyane hibandwa ku rugingo rw'ukuguru.

Ikirango gikoze uruziga kigaragaza imikino njyarugamba mu Gihugu cy'u Rwanda. Hagati harimo abagabo babiri barigukirana. Umwe yambaye impuzankano y'umweru, undi yambaye impuzankano y'ubururu. Bakikijwe n'ikirango kigaragaza izuba.

Icyumba kigari mu buso cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byakozwe n'inzobere kugira ngo binoze imikorere y'imyitozo ngororamubiri ndetse ubona ko iyo nyubako harimo n'abantu bayigannye kugira ngo bahabwe ubufasha bw'ukuntu bakora imyitozo ngororamubiri bifashishije ibyo bikoresho.

Ibiganza bibiri buri kiganza gifite intoki eshanu ndetse ikiganza cy'iburyo kirubuye, icy'ibumoso kirubamye kandi buri kiganza cyambaye uturindantoki.

Ukuboko kwirabura kuriho umwambaro uhinnye ugana ruguru ku rutugu ndetse hari ukundi kuboko guturutse hirya gufashe kuri uko kuboko gusa nk'ukwakomeretse, gufashe umuti ugabanya uburibwe.

Umugabo w'umwirabura wambaye impuzankano y'umweru, uri gutanga amahugurwa ku bavuzi batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo. Bari mu nyubako yagenewe gukorerwamo ubuvuzi irimo ibikoresho bya kijyambere.

Itsinda rigizwe n'abantu batanu bari mu nyubako yagenewe gutangirwamo imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibyerekeye ubuvuzi bw'ingingo, aho itsinda rya mbere rigizwe n'abagabo batatu bari kugorora ingingo z'umugabo hamwe n'irindi tsinda rigizwe n'abagore babiri, umwe muri abo bagore ari kugorora urugingo rw'umugore mugenzi we.

Igikoresho cya kijyambere gikozwe mu buryo bukoze umuzenguruko ndetse gifite ibara ry'umweru, cyagenewe kureba mo imbere mu mubiri w'umuntu kugira ngo hamenywe icyo arwaye ndetse n'icyakorwa kugira ngo ahabwe ubuvuzi bugezweho.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini cyane uri mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse inyuma ye hari umugabo ufite uruhu rwera uri kumuha amabwiriza y'ukuntu akora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikozwe mu buryo bworoheye buri umwe kuba yagitwara cyakorewe gutwarwaho umurwayi udashoboye kwigenza aho iyo umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye kiratuma atigenza, ashyirwaho akabasha kwihutirwa kujyanwa kwa muganga.

Umugabo w'umwirabura ndetse ukuboko kwiwe kw'iburyo kwambaye isaha, afite agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi meza, ari kuyanywa kugira ngo agabanye icyaka akuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura uri mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse arambuye amaboko n'amaguru, arimo agorora ibice bigize umubiri we.

Abagabo bane bari kwirukanka ku muvuduko mwinshi mu myitozo ngororamubiri, bari kuyikorera ahabugenewe kugira ngo ibice by'umubiri wabo birusheho kugira ubuzima bunoze.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buryo butandukanye kandi bw'ikoranabuhanga zagenewe gutwarwamo imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze, igihe habayeho gukomereka umuntu ari mu myitozo ngororamubiri ndetse ari no mu bindi bintu bitandukanye.

Agakoresho kagendera ku biziga bine ndetse kagenewe gutwarwamo ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, harimo nk'imipira ndetse n'imigozi yo gusimbuka ndetse gakozwe mu buryo bwa kijyambere, kakoroshya gutwara ibikoresho bitandukanye.

Imfashanyigisho ikozwe mu buryo bukoze m’uruziga, ndetse igizwe n'uburyo butandatu butandukanye umuntu ashobora gukoresha mu myitozo ngororamubiri, harimo n’iyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe kugira imikaya ikomeye, ndetse n'iy’umuntu yakora kugira ngo akomeze ibice bye by'amaguru, ndetse n'iyo yagenewe gukorwa igihe umuntu ari nko mu mikino runaka.

Amazi asa neza kandi asukuye ava hejuru agwa mu gikoresho cyagenewe kunywegwamo amazi kugira ngo uri kuyanywa ayanywe maze arusheho kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho kizinze mu buryo bw'uruziga, gikoreshwa igihe umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ahuye n'ikibazo ku rugingo rwe, ndetse inyuma hari n'agakoresho kagenewe gutwarwamo icyo gikoresho gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kigari cyane kirimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buryo bugezweho ndetse ifasha umubiri kuba wakora imyitozo ngororamubiri hatabayeho kuba byamukomeretsa ndetse bikamufasha no kumworohereza gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bugezweho.

Igikoresho gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri gishobora gukoreshwa mu gukuraho inda mu buryo bworoshye ndetse no kuzana imikaya itandatu ku nda yawe, kikaba kigura igiciro kingana n'asaga ibihumbi ijana na makumyabiri by'Amanyarwanda.

Agakoresho gakoreshwa mu buvuzi bugezweho, aho gashyirwa ku gituza cy'umurwayi cyangwa se usuzumwa kugira ngo humvwe uko umutima we utera, bamenye niba yaba agihumeka cyangwa se akiri muzima cyangwa bamenye ko umutima we uri gutera ku rwego rwo hejuru cyangwa rwo hasi.

Inyigisho yerekana ubuvuzi butandukanye bw'ingingo ndetse inashishikariza abantu bababara mu ngingo ndetse bafite n'uburwayi bwo mu ngingo, kuba bagana ubwo bwoko bw'ubuvuzi kugira ngo bahabwe ubufasha bw'ingingo.

Umugabo w'umwirabura wunamye, wambaye umwambaro wo hasi uciye amaguru, ufite ibara ry'umukara ndetse ibiganza bye byombi bifashe ku kuguru kwe kw'ibumoso bigaragara ko kwabaye ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu batatu barimo umugore wambaye agapfukamunwa ndetse afashe ku mutwe w'umwana mutoya yazanye mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse imbere yabo hari umuvuzi uri gusuzuma umwana kugira ngo akorerwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore w'umwirabura, wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko, ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'uwo hasi ufite ibara ry'ubururu butijimye, ari mu myitozo ngororamubiri, arambura akaboko ndetse anahinnye akaguru kugira ngo ingingo ze zirusheho kugororoka.

Umugabo w'umwirabura ndetse urimo ugaragaza ibice bye by'umubiri, harimo nk'igituza ndetse n'igice cyo hejuru ku kuboko, ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri ku buryo buhagije ndetse agafata n'imirire myiza.

Imfashanyigisho yerekana uburyo butandukanye umuntu yakoresha mu myitozo ngororamubiri, igihe ari nko mu kazi, harimo nk'uburyo yagorora urugingogo rw'umugongo ndetse n'ukuboko ndetse n'amaguru.

Imfashanyigisho yerekana ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze ndetse hari n'igikoresho cyabugenewe gitwagwamo ibyo bikoresho, harimo nk'ibikoreshwa mu kuzirika aho umuntu yakomeretse, uturindantoki, inshinge ndetse n'ibindi.

Itsinda rigizwe n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu butabazi bw'ibanze ndetse hari n'igikoresho cyagenewe gutwarwamo ibyo bikoresho. Aho iyo umuntu akomeretse ibyo bikoresho kibafashishwa mu kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo hirindwe kuba yarushaho gukomereka ndetse n'igikomere cye kitaza gukomera.

Itsinda rigizwe n'udukoresho dutandukanye ndetse n'imiti itandukanye, ikoreshwa n'umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ndetse iri mu gakoresho kabugenewe kuba bayitwaramo kugira ngo irindwe kuba yakwangirika ndetse inatwarwe mu buryo bworoshye.

Itsinda rigizwe n'ibikoresho bikoreshwa n'umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibiribwa byo mu bwoko butandukanye, byiganjemo imboga ndetse n'imbuto, biribwa n'umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we urusheho gukomera.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho gifite amabara yiganjemo ay'umweru ndetse kiriho agakoresho kagenewe kubikwamo ibikoresho ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga, cyakozwe n'inzobere cyakorewe kubaga umuntu ndetse no kumenya uko ubuzima bwe bw'ingingo zomo mu imbere buhagaze.

Umugabo uciye bugufi mu ntebe wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'umweru ndetse arambuye akaboko ke k'iburyo gasa nk'akababaye ndetse ari kwifashisha ukuboko kwe kw'ibumoso mu gukanda no komora ukuboko kw'iburyo.

Amaboko abiri y'umwirabura ndetse afashe igikoresho gisa umukara cyagenewe gukoreshwa mu muntu uri mu myitozo ngororamubiri ari nko kukizirika rugingo rwe kugira ngo arurinde kuba rwakomereka ndetse anerekana neza icyo gikoresho ibice bikigize.

Urujya n'uruza rw'abana bateraniye hamwe ndetse bishimye bari mu kibuga bari mu mikino, aho bahurira buri wese akabasha kugaragaza impano ye ndetse bakanidagadura kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu mutwe bumere neza ndetse banahabwe ubuvuzi hifashishijwe imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini ndetse wambaye ubusa hejuru n'umwambaro uciye amaguru wo hasi, ari kugorora ibice bye by'umubiri mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Aho yafashe ukuguru kwe kw'iburyo akakurambura akwerekeza imbere ndetse ukundi kw'ibumoso kwasigaye inyuma nako akaguhina.

Umuti ukoreshwa igihe umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yahuye n'uburibwe, ikaba igabanya uburibwe ndetse ikaba iri no mu bipimo bitandukanye.

Ibikoresho biteretse hasi bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, harimo imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibirato byo kwambara igihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibiribwa byitabwaho mu kuribwa igihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri.

Imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bitondetse mu byiciro bitandukanye buri cyose bitewe n'icyo cyagenewe gukoreshwa.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru w'umweru ndetse yicaye mu ntebe nayo isa umweru, ukuboko kwe kumwe gufashe k'ukundi ndetse kunagufatiyeho agakoresho gasa nk'akarimo umuti.

Ubwoko butandukanye bw'ibikoresho bikoreshwa mu gihe umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yaba akeneye kubukoresha, harimo imiti ashobora gukoresha igihe yahuye no gukomereka ndetse harimo n'iyo ashobora gukoresha kugira ngo agarure imbaraga kugira ngo umubiri we umererwe neza.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa buke ndetse ikiganza cye cy'iburyo gifashe agakoresho kagenewe gutwagwamo amazi meza ndetse yashyize ku munwa ari gusoma kugira ngo abashe kugabanya icyayaka.

Inyigisho igaragaza ubwoko butandukanye bw'imiti ikoreshwa mu mikino yerekeye n'imyitozo ngororamubiri hirya hari amagambo agaragaza ko twagakwiye gukumira iryokoreshwa ry'iyo miti kugira ngo ahazaza harusheho kuba heza.

Umusore ukiri muto wambaye uturindantoki ndetse utambaye impuzankano yabugenewe, uri mu cyumba kigari kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byagenewe gutanga ubuvuzi, ubona ko ari kubikoresha ariko atambaye impuzankano ndetse n'icyerekana ko yabihuguriwe.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi myinshi y'umukara uhagaze ku musambi ndetse wunamye akoze ku kirenge cye cy'ukuguru kw'iburyo ndetse ukundi kuboko kwe kwifashe inyuma ku mugongo ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugorora ibice bigize umubiri we.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umukara ndetse ukuboko kwe kw'iburyo gufashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi yakererekeje ku munwa ari kunywa amazi meza dore ko amazi ari ingenzi ku buzima bw'umuntu uri mu myitozo ngororamubiri cyangwa se wayirangije.

Igikoresho gikozwe ku buryo bumeze nk'inkoni ndetse hejuru kigoronzoye nk'inzoka, aho gikoreshwa n'umuntu uri muri siporo kugirango ngo arusheho kunoza uburyo akuramo imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini cyane ndetse yambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, hari ahantu hanze ndetse ari kugorora ibice bye bitandukanye by'umubiri kugira ngo umubiri we urusheho kugira imyubakire imeze neza.

Umugabo w'umwirabura munini wambaye imyambaro yagenewe kwambarwa mu myitozo ngororamubiri ndetse arimo azamura ibice bye bitandukanye by'umubiri, abigorora harimo nk'amaguru ndetse n'amaboko.

Umugabo w'umwirabura usutamye uri mu myitozo ngororamubiri ndetse wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, uri mu nyubako ikorerwamo iyo myitozo, ndetse imbere ye hari umuntu uri kumufasha gukora iyo myitozo mu buryo bwiza.

Ukuboko kwirabura kurambuye kugana ku kuguru kwa nyirako ndetse ukundi gufashe umuti uri kugabanya uburibwe aho ukundi kuboko kwakomeretse.

Umugabo w'umwirabura uvuye mu myitozo ngororamubiri, ufite icyaka cyinshi cyane ndetse ukuboko kwe kumwe gufashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi kari ku munwa ndetse havamo amazi ayanywa.

Abagabo babiri bari ahantu mu kibuga ndetse bari guhumuriza umuntu wari uri mu mikino yerekeye imyitozo ngororamubiri usa nk'ugize ikibazo cyo gukomereka bari kumubaza uko ari kwiyumva kugira ngo abashe kuba yakorerwa ubutabazi bw'ibanze.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru usa umweru, urambuye akaboko k'iburyo ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe agakoresho karimo umuti kugira ngo homore ahakomeretse ku kuboko kwe k'undi.

Umugore w'umwirabura wambaye agahanika k'umukara ndetse n'umwambaro wo hasi ufite ibara ry'umukara, yicaye ku buriri ndetse arimo kurambura ibice bigize umubiri we kugira ngo yirinde kuba byakwangirika cyangwa yirinde umunaniro ukabije.

Umugabo w'umwirabura ufite imikaya minini cyane, uri mu nzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse afite n'ibikoresho biremereye cyane, bikoreshwa mu guterura kugira ngo bikuze ibice by'umubiri ndetse imbere ye hari umugabo uri kumuha amabwiriza y'ukuntu yakora neza imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri bafite uruhu rwera, umwe aryamye mu kibuga cy'umupira w'amaguru ndetse mugenzi we na we ari kumukandira ku kaguru kugira ngo ahantu ari kubabara hamererwe neza.

Inzobere mu by'ubuvuzi yambaye impuzankano y'umweru ndetse yarambuye ibiganza ibyerekeza ku gice cy'urugingo giherereye ku kuguru k'umuntu aho ari kuvura uku kuguru kugira ngo hirindwe kuba yaremba.

Udukoresho turi mu mabara atandukanye, tubikwa mu buryo bukoze uruziga ndetse twagenewe mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aho dukoresha mu guhambira ku rugingo rwaba ruhuye n'ikibazo kugira hakumirwe kuba rwarushaho kwangirika.

Imyitozo ngororamubiri icumi ushobora gukora kugira ubwonko bwawe burusheho kugira ubuzima bwiza. Harimo itanu ikorwa umuntu yicaye ndetse n'indi itanu ikorwa umuntu ahagaze, akabikora inshuro nyinshi kugira ubuzima bw'ubwonko bwe burusheho kumera neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ndetse wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'umukara, wagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso yaguhinnye akwerekeza mu iruguge rye ndetse n'ukundi kw'iburyo gufashe ku nkokora ari kugorora igice cy'ukuboko ndetse n'umugongo.

Abavuzi batandukanye barimo abambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umwe ufite uruhu rwera ufashe umwana mutoya, ari kureba uko ubuzima bwe buhagaze, bari mu nyubako yagenewe gukorerwamo ubuvuzi.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri ifite ibara ry'umukara ndetse ibiganza bye bifashe ku itako ryiwe arimo ahakanda ngo ahomore kuko hababaye.

Ishusho igaragaza igice cyo mu imbere cy'umuntu cyitwa urutirigongo kivuye mu rukenyerero ndetse kigafata ku bwonko, kifashishwa mu kuba umuntu yahagarara ndetse agakora n'imirimo itandukanye harimo nko kunyeganyega.

Umugabo w'umwirabura ufite imisatsi iboshye, upfukamye ku gasambi, ari mu nyubako ari kugorora ibice bye bitandukanye, harimo nk'amaguru ndetse n'amaboko mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye bitondetse mu matsinda bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, buri bwoko butondetse ukwabwo ndetse byiganjemo ibiribwa ndetse n'imiti ya kijyambere ikoreshwa n'abantu bakoze imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibikoresho bakoresha batwaramo amazi.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'umweru ndetse yerekeje ibiganza bye ku rugingo rwe ruri kuguru kw'ibumoso arimo agukanda kugira ngo akurinde kuba kwakomereka ndetse n'ububabare arikomva bubashe kuba bwagabanyuka.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'icyatsi ndetse ufite amaboko afite imikaya ikomeye cyane yayazamuye hejuru, afashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi ari kugakanda ndetse kavamo amazi agwa mu isura ye kugira ngo arusheho kuruhuka.

Umugore uri mu nzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo akwerekeza inyuma ndetse uku kumoso nako guhinye kuri imbere, amaboko ye areba hejuru ari kugorora ibice bye by'umubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima buhamye.

Umugore wambaye agatwaramajwi mu matwi ye ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe agakoresho kagenewe gutwaramo amazi, yakerekeje ku munwa we ari kuyanywa dore ko afite icyaka, avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugore w'umwirabura uri guseka yishimye cyane ndetse igice cye k'igihimba yagihinnye acyerekeza ku maguru, amaboko ye yombi afashe ku maguru ndetse yicaye ku gasambi, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibice bye by'umubiri birusheho kugororoka.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi y'umukara, wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko ndetse ukuboko kwe kw'iburyo gufashe igikoresho cyagenewe gutwarwamo amazi, kirimo amazi asukuye ndetse yakerekeje ku munwa ari kuyanywa, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, dore ko amazi meza ari ingenzi.

Ikimera kitari cyasarurwa kiri mu butaka gifite amababi y'icyatsi uruti ndetse n'imbuto zifashe kuri urwo ruti zikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amoko atandukanye y'ibimera, akomoka mu bwoko butandukanye ndetse akoreshwa mu buvuzi gakondo ari mu dukoresho twagenewe kuyatwaramo.

Igisata kigizwe n'imiti itandukanye ya kinyarwanda ndetse irunze mu buryo bw'uturundo hariho n'agakoresho gakoreshwa mu kuyitunganya kagizwe n'umuhini ndetse n'isekuru.

Udukoresho tw'amoko atandukanye, twagenewe kubikwamo amatembabuzi akoreshwa mu gusigwa ku ruhu ndetse akarukesha, kugira ngo rutahinamirana cyangwa rukaba rwakwishuka.

Icyanya kigizwe n'ibidukikije kirimo ibiti birebire ndetse n'ibiti bigufi, bishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo mu kwita ku barwayi.

Udukoresho two mu bwoko butandukanye ndetse twakoranywe ikoranabuhanga tugezweho, twagenewe gutwarwamo imiti ikorwa mu bimera gakondo ariko ikozwe mu buryo bugezweho, tukaba dufasha iyo miti kuba yabkwa igihe kirekire ndetse no kuba itakwangirika.

Udukoresho dukozwe mu buryo bwa kare ndetse tubikwamo imiti yagenewe guhabwa abantu bafite imirire itameze neza kugira ngo himakazwe imirire imeze neza ndetse hanahagarikwe ikibazo cy'igwingira mu bana batoya.

Agapfunyika gakozwe mu buryo bubonerana ndetse mu imbere muri ko harimo igihingwa gitunganyije cy'icyayi gikoreshwa mu kuvura umuvuduko w'amaraso, aho umurwayi ufite umuvuduko w'amaraso ashishikarizwa gukoresha icyo gihingwa.

Amatsinda agizwe n'ubwoko butandukanye bukoreshwa ku miti gakondo, ndetse buri bwoko butondetse mu gikoresho cyabugenewe, aho iyo miti itegurwa ikavamo imiti igezweho, kugira ngo ubuzima bw'umuntu burusheho kubugwabungwa.

Udukoresho tubiri turi mu mabara yiganjemo ay'umuhondo ndetse n'umukara, duteretse hasi, dukoreshwa mu gutwarwamo imiti ya kinyarwanda mu buryo bugezweho kugira ngo hirindwe kuba yakwangirika ndetse inabikwe igihe kinini.

Igihingwa kikiri gito gitoshye, giteye mu butaka cyagenewe kuvura mu buryo gakondo kugira ngo ubuzima bw'umuntu burusheho kumera neza ndetse hirindwe imfu zitateganyijwe.

Igihingwa gikariha cyane gishobora gutekwa mu mazi ndetse ishobora no kwifashishwa mu buvuzi igihe umuntu yarwaye nk'umutwe.

Icyanya kirimo ibimera by'ubwoko bumwe byagenewe mu kuvura indwara gakondo, aho birerwa bikiri bito byamara gukura bigakurwamo bikajya guterwa hanze bigakura bigakoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amatsinda menshi atandukanye ndetse yerekana ibimera bitandukanye birimo ibiti bifite amababi ndetse n'ibinyabijumba byifashishwa mu buvuzi cyangwa bikaba byakoreshwa mu gukora imiti igezweho, aho umuntu ufite ububabare ashobora gukoresha ibyo bihingwa kugira ngo yikorere ubuvuzi.

Udupfunyika dutatu dukozwe mu buryo ka kare ndetse dukozwe mu buryo bumwe, turiho amagambo agaragaza ko dukoreshwa mu kubika imiti yagenewe kuba umuntu yahabwa igihe afite imirire mibi cyangwa se kugira yongere ubudahangarwa bw'umubiri we.

Udukoresho tubiri dukozwe mu buryo butandukanye ndetse twagenewe gutwarwamo imiti ikomoka ku bimera gakondo, aho turinda iyo miti kuba yakwangirika ndetse ikanabikwa igihe kirekire, iyo miti ikaba ikoreshwa mu gusigwa ku ruhu kugira ngo rukomeze rubobere.

Ikarita irimo agakoresho kagenewe gutwarwamo imiti ya kinyarwanda, ariko ikozwe mu buryo bugezweho, ndetse hari n'amagambo yanditse ku ruhande, yerekana ibintu byaba biri muri ako gakoresho gatwarwamo imiti.

Imiti yo mu bwoko butandukanye ndetse ikomoka ku bimera gakondo, iri mu dukoresho twabugenewe kugira ngo itunganye, aho umuntu wakomeretse cyangwa ufite ubundi bubabare bw'umubiri ayikoresha kugira ngo abashe gukira.

Imfashanyigisho yerekana ibihingwa by'ibiribwa bitandukanye harimo nk'igitunguru, ndetse n'indimu ndetse hijya ari igikoresho gikozwe mu buryo bubonerana, kigaragara nk'aho cyakorewe kuba cyabika umutobe wakozwe uvuye muri ibyo biribwa kugira ngo bitangirika.

Itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore ryiganjemo abambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'icyatsi ndetse bahagaze ahantu mu murima hari igihingwa cy'igikakarubamba gihingwa ndetse kigakurwamo imiti itandukanye, ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Udukoresho dutandukanye, twagenewe gutwarwamo imiti ikomoka ku bimera, harimo udukoreshwa mu kubika imiti yagenewe gutwarwamo imiti isukura amenyo kugira ngo ibashe gusigasira ubuzima bwo mu kanwa ndetse harimo n'indi isigwa ku munwa kugira ngo itaza kuma.

Inyandiko igaragaza umunsi wahariwe imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi gakondo ku mugabane w'Afurika, aho iri kugaragazwa n'ibimera ndetse n'amagambo yanditse muri iyo nyandiko ashishikariza abantu kwitabira ubuvuzi gakondo, ariko bita ku kugabanya ingaruka bugira ku buzima bw'umuntu.

Itsinda ritari rigari riri ahantu mu kibaya ndetse mu murima, ahantu bari gusarura ibimera bitandukanye bikoreshwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, cyangwa se ikaba yatunganywa neza hagakorwa imiti ikoreshwa mu buvuzi bugezweho.

Ikiganza cy'umugore kirambuye ndetse mu biganza bye harimo agakoresho kagenewe kubikamo umuti, ukorwa mu bimera gakondo aho uwo muti ushobora gukoreshwa mu gutuma ahantu hahumura, cyangwa ukaba wakwifashishwa nk'umuti igihe umuntu ari kuribwa ahantu runaka.

Igihingwa kikiri gito, gitoshye gifite amababi afite ibara ry'icyatsi ndetse kikiri mu butaka aho cyaterewe kuba cyakura kigakoreshwa mu gukora imiti itandukanye ivuye mu miti ya kinyarwanda ariko igakorwa mu buryo bugezweho kugira ngo ibashe kwita ku buzima bw'abantu.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuyitegura, harimo nk'umuhini, isekururo birambitse hasi.

Akagaro gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse gakoreshwa mu kubika imiti iva mu gihingwa cy'igikakarubamba, aho aka kagaru gafasha mu kubika neza iyo miti kugira ngo itangirika ndetse inabikwe igihe kirekire.

Amatsinda magari agizwe n'udukoresho twinshi dutandukanye twagenewe gutwarwamo imiti ikomoka ku bimera gakondo, aho ikoreshwa mu gutuma umubiri w'umuntu umera neza kugira ngo ubuzima bwe burusheho gukurikiranwa atararemba.

Igisata gikasemo ibyiciro bitandukanye bitanu, icyiciro cyo ku ruhande rwo hino kirimo ubwoko bw'imiti ya kinyarwanda bubiri ndetse n'icyiciro cyo hirya kirimo ibice bitatu gikasemo imiti ya kinyarwanda, ubwoko butatu butandukanye.

Ikimera kiri mu bwoko bw'igiti gifite amababi atoshye afite ibara ry'icyatsi ndetse gikikijwe n'ibyatsi byo ku gifumbira aho cyaterewe gukura ngo kizakoreshwe mu buvuzi bugezweho.

Agakoresho kagezweho gakoranye ikoranabuhanga, kagenewe gutwarwamo imiti ikomoka ku bimera ndetse ya kinyarwanda, gakozwe mu buryo kayibika neza ku buryo kayirinda kwangirika.

Ikimera kikiri gito ndetse gikikijwe n'ibindi bimera kiri mu butaka, aho gitoshye gifite amababi y'icyatsi ndetse aho gitegerejwe kuba cyakura kigakurwamo imiti igezweho ikoreshwa mu buvuzi butandukanye, harimo nko komora inguma ndetse n'ibindi.

Udukoresho tubiri turi mu mabara atandukanye yiganjemo ay'umuhondo ndetse n'umweru, aho iyo miti ishobora kuba ikorwa mu gihingwa cy'igikakarubamba, aho utwo dukoresho dukoreshwa mu kubika iyo miti ikozwe mu gikakarubamba ariko mu buryo bugezweho kugira ngo irindwe kuba yakwangirika kandi inabikwe igihe kirekire.

Itsinda rigizwe n'ibisukika bitandukanye biri mu bikoresho bibonerana ndetse ibyo bisukika biri mu bwoko butandukanye, harimo ibinyobwa ndetse n'ibindi binyobwa bikoreshwa mu kuvura, kugira ngo umubiri w'umuntu ubashe kwitabwaho.

Amaboko abiri y'umuntu w'umwirabura ndetse ukuboko kwe kumwe gufashe agakoresho kari gusekurirwamo imiti ya Kinyarwanda ndetse ukundi kuboko na ko gufashe umuhini uri gukoreshwa mu gusekura iyo miti ya Kinyarwanda.

Itsinda rigizwe n'ubwoko butandukanye burimo imiti ndetse n'udukoresho dukoreshwa mu kubika iyo miti, ikomoka ku bimera gakondo kugira ngo umuntu akurikirane umubiri we ndetse anavure ingingo zakomeretse kugira ngo hirindwe kuba umuntu yaremba.

Igikoresho gikozwe mu buryo bwa kare ndetse cyagenewe gutwara ibiribwa bikozwe mu bimera ndetse bifite intungamubiri zigiye zitandukanye zihabwa umuntu ufite ikibazo cy'imirire kugira ingabo z'umubiri we ziyongerare.

Amatsinda ane ndetse buri tsinda rigizwe n'ubwoko butandukanye bukorwa mu gihingwa cy'igikakarubamba; ibyo bikoresho bikaba bikoreshwa mu kubika iyo miti ikozwe mu buryo bugezweho mu gihingwa cy'igikakarubamba; kugira ngo ibikwe igihe kirekire ndetse inarindwe kuba yakwangirika.

Ikiganza cy'umugore ufite uruhu rwera, gifashe agakoresho kabikwamo umuti wagenewe gusukura amenyo ndetse ari gukanda ako gakoresho kavamo uwo muti w'amenyo ujya ku gakoresho gakoreshwa mu gusukura amenyo, gafashwe n'ikindi kiganza cy'umuntu ufite uruhu rwera.

Ikarita iriho imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, ndetse banagaragaza uko ku ruhando rw'amasoko ihagaze, ndetse banagaragaza ibiciro byayo, bayigereranya n'imiti ikozwe mu buryo bugezweho.

Agakoresho kagenewe gutwarwamo imiti gashushanyijeho umugore wifashe mu rukenyerero ndetse kabikwamo imiti yagenewe imirire myiza kugira ngo umuntu abashe kugira umubiri umeze neza.

Imiti ikozwe ku bikomoka mu bihingwa bya kinyarwanda ndetse iri mu bikoresho bigezweho zagenewe gutwarwamo iyo miti ndetse inariho uturango tugaragaza amazina yayo.

Udukoresho dutandukanye dukozwe mu buryo butandukanye ndetse n'amabara atandukanye, twagenewe gutwarwamo imiti ikomoka ku bimera gakondo ari byo nk'igikakarubamba ndetse tukaba dufasha iyi miti kuba yabikwa igihe kirekire ndetse tukanayirinda kwangirika.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera gakondo bwashizwe mu isero bakabusya maze bukajya bukoreshwa mu kuvura ndetse no komora aho umuntu yakomeretse kugira ngo ubuzima bw'uwo muntu burusheho kumera neza.

Intoki z'umuntu ndetse ikiganza cye cy'ibumoso gifashe agakoresho gakoreshwa mu gusekura imiti ya kinyarwanda ndetse ikiganza cy'iburyo gifashe umuhini wifashishwa mu gusekura imiti ya kinyarwanda; hirya ye hateretse ubwoko butandukanye bw'imiti ya kinyarwanda iri ku kirago.

Ibyiciro bitandukanye bifite amabara atandukanye byiganjemo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda ndetse buri bwoko buri mu kazu kabwo bunagaragaza ibara ritandukanye n'iry'ubundi bwoko.

Igihingwa gifite amababi ateye nk'ikiganza giteye mu butaka ndetse gifite amababi y'icyatsi, cyagenewe mu gutanga ubuvuzi gakondo kugira ngo ubuzima bw'umuntu burusheho kwimakazwa no gukurikiranwa.

Igihingwa gitoshye gifite amababi y'icyatsi, giteye hasi ku butaka ndetse hasi hari n'amababi y'ibindi bihingwa yumye yo kugifumbira kugira ngo gikure neza, kizakoreshwe mu buvuzi gakondo kugira ngo ubuzima bw'umubiri burusheho gusigasirwa.

Agakoresho gakozwe mu buryo bubonerana ndetse kagenewe kubikwamo imiti ikozwe mu bimera yagenewe gusukura intoki, aho umuntu ayisiga mu ntoki ikabasha kwica udukoko dushobora gutera indwara.

Itsinda rigizwe n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gutegura imiti ya Kinyarwanda, harimo nk'amasekuru bakoresha basya imiti ya Kinyarwanda kugira ivemo ifu inoze ndetse n'inkono zikoreshwa mu kubika iyo miti ndetse harimo n'ibikoresho bikoresha kubika iyo miti.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umutuku ndetse kirimo ibisukika bikozwe mu bimera ndetse byagenewe kuba byanyobwa igihe umuntu afite icyaka kugira ngo hirindwe kuba yakwangirika mubiri.

Agakoresho kagenewe gutwara imiti ya Kinyarwanda ikozwe mu buryo buvuguruye cyangwa se bugezweho, bigaragara ko iyo miti ikoreshwa mu kugarura ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo ubuzima bw'umubiri bumere neza kandi ikaba izana n'intungamubiri zikomeye, zitunga umubiri kugira ngo umubiri ukomere.

Ikirango kigaragaza ubuvuzi bukozwe mu buryo gakondo ndetse gishishikariza abantu kwivuza mu buryo bwa gakondo no kujya bakumira kuba bakorerwa ubuvuzi butari gakondo cyangwa umwimerere.

Agakoresho gahagaze kari mu ibara ry'ubururu kagenewe gutwarwamo imiti gakondo ndetse gakozwe mu buryo bugezweho kugira ngo karusheho kubika neza imiti, kugira ibikwe igihe kinini ndetse inarindwe kwangirika.

Igihingwa gikoreshwa mu buvuzi gakondo, gifite amababi ndetse n'indabo, gifite uruti rukora hasi ku butaka ndetse n'amababi ava ku ruti azamuka hejuru.

Ibimera byo mu bwoko bw'igiti ndetse biteye mu butaka buri mu bihoho ahantu hanze, aho ibyo bimera biterwa byamara gukura bigasarurwa, bikaba byakoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa bikavanwamo imiti ikoreshwa mu buvuzi kugezweho.

Udukoresho dutandukanye turi mu mabara atandukanye ndetse no mu ngano zitandukanye twagenewe gutwarwamo imiti ikomoka ku bimera gakondo ariko ikozwe mu buryo bugezweho harimo nk'ikoreshwa mu kugabanya ibiro ndetse n'ihabwa umuntu ufite imirire mibi kugira ngo yongere ubudahangarwa bw'umubiri we.

Imiti itondetse mu buryo bwo hejuru ndetse no hasi, ikaba ari itandatu, igaragaza imiti ya kinyarwanda ariko ikozwe mu buryo bwa kijyambere.

Udukoresho dukozwe mu buryo bwa kare ndetse turiho amagambo agaragaza ko twagenewe kubika imiti iva ku bimera ndetse ihabwa umuntu ufite imirire mibi, aho umuntu ayihabwa akabasha kuba yakongera ubudahangarwa bw'umubiri we.

Udukoresho dukozwe mu buryo butandukanye dufite amabara atandukanye ndetse no mu ngano zitandukanye, twagenewe kutwagwamo imiti ikozwe mu bihingwa gakondo harimo nk'igikakarubamba ndetse n'icyayi, aho iyo miti ikoreshwa mu buvuzi bugezweho.